Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi ruramamaza ibijyanye n'ubwishingizi, hariho ifoto y'abantu bagera muri batanu, umugabo n'umugore n'abana babiri.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandafi ruramamaza ibijyanye n'ubwishingizi rusize amabara y'umweru n'ubururu ariho ifoto y'umukobwa wishimye usa nk'aho akiri muto.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, ruramamaza ibijyanye n'ubwishingizi, rugizwe n'amabara y'umweru n'umutuku, hariho ifoto y'umukobwa usa nk'aho akiri muto, ubona afite ibyishimo, yambaye ikote ry'umukara.

Iki ni icyapa kinini kiri ku muhanda kimanitse mu kirere kiramamaza ibijyanye n'ubwishingizi kigizwe n'amabara y'umweru yandikishije amagambo y'ubururu ariho abantu babiri umugabo usa nk'ukuze ndetse n'umwana muto ya.

Aba ni abantu bagera kuri batandatu bahagaze ahantu hamwe, barishimye cyane kubera ko bari guseka, bateruye ikintu cy'ubururu cyamamaza ibijyanye n'ubwishingizi, higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Uru n'urubuga rukorera ku ikoranabuhanga, ndetse na murandasi, ruramamaza ibijyanye n'ubwishingizi, hariho ifoto y'abantu babiri ubona ko basa nk'abakuze bari mu kazi, higanjemo abagabo gusa.

Uru ni rubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, ruramamaza ibijyanye n'ubwishingizi rugizwe n'amabara y'umweru amagambo y'ubururu, hirya gato hari umuriro uri kwaka bikomeye cyane.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, ruramamaza ibijyanye n'ubwishingizi hariho ifoto y'umugabo ubona usa nkukuze ufite ibyishimo ari guseka yambaye agashati k'umuhondo.

Iki ni icyapa kinini cyo ku muhanda kiramamaza ibijyanye n'ubwishingizi, kigizwe n'amabara y'ubururu n'umuhondo, ndetse n'amagambo yandikishije umweru. Hirya gato hariho umugore usa nk'ukuze, ahetse umwana mu mugongo we.

Iki ni icyapa kinini kimanitse hejuru mu kirere kiramamaza ibijyanye n'ubwishingizi, hariho ifoto yumugabo wambaye ikote ry'umukara, ishate y'umweru, ahagaze iruhande rw'ibinyabiziga bibiri, imodoka ndetse na moto.

Iki ni icyapa kinini cyane kimanitse mu kirere kiramamaza ibijyanye n'ubwishingizi, kigizwe n'amabara y'ubururu n'amagambo yandikishije umweru, hariho abagabo babiri basa nk'abakuze.

Iki ni icyapa kimanitse mu kirere kiramamaza ibijyanye n'ubwishingizi, kigizwe n'amabara y'umweru, amagambo y'umutuku n'ubururu, hariho ifoto y'abakobwa babiri basa nk'abakuze inyuma yabo hari imodoka.

Iki ni icyapa kinini kimanitse mu kirere kiramamaza ibijyanye n'ubwishingizi kigizwe n'amabara y'ubururu amagambo yandikishi umweru gikikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, ruramamaza ibijyanye n'ubwishingizi. Rugizwe n'amabara y'icyatsi, amagambo yandikishije umukara ndetse n'umweru.

Iki ni icyapa kinini kimanitse mu kirere kiramamaza ibijyanye n'ubwishingizi, kigizwe n'amabara y'umutuku amagambo y'umweru. Hariho ifoto y'umugore usa nk'ukuze agasatsi ke karasokoje yambaye ishati y'umukara.

Iki ni icyapa kimanitse hejuru mu kirere, kiramamaza ibijyanye n'ubwishingizi, kigizwe n'amabara y'umutuku, amagambo yandikishije umweru, hirya gato hariho umugore usa nk'ukuze, imisatsi ye iramanuye.

Iki ni icyapa kinini kimanitse hejuru mu kirere, kiramamaza ibijyanye n'ubwishingizi, kigizwe n'amabara y'umweru, ubururu ndetse n'icyatsi, hirya gato hariho ifoto y'abantu basa n'abakuze, umugore n'umugabo.

Uru ni urubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho rugufasha kohereza, kwakira, kwishyura amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rwa banke runaka. Rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho ushobora kubishyura, hakohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye, bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga aho rugufasha kohereza kwakira kwishyura amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho ushobora kwishyura, kohereza, kwakira amafarangamu buryo bworoshye, kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi rwa banki runaka, aho rugufasha kohereza, kwakira, kwishyura amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rwa Banki runaka. Rukorera kuri murandasi. Ni ikoranabuhanga aho rugufasha kohereza, kwakira, kwishyura amafaranga mu buryo bworoshye, kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga aho ushobora kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga muburyo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rwa banki runaka rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi rugufasha kwishyura kohereza kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uri.

Iyi ni imodoka nziza ihagaze ahantu, bisa nk'aho igurishwa. Isize amabara y'umukara ibirahure birabonerana, amatara ni umweru. Amapine ni byiza cyane.

Iyi ni imodoka nziza isize amabara y'umukara ibirahure bibonerana ndetse n'amatara y'umweru, inyuma yayo hari igiti kinini gitanga umuyaga n'amahumbezi ku bari aho ngaho bose.

Iyi ni imodoka nziza itwara abantu, igizwe n'amabara y'umweru, amatara y'umukara ndetse n'ibirahure bibonerana, inyuma yayo hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abagabo babiri bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane bari guhererekanya ikintu kimeze nk'urufunguzo mu biganza byabo barishimye, inyuma kandi hari ikinyabiziga gitwara imizigo cy'imodoka kihagaze.

Aba ni abantu bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane bose uko ari batanu basa nk'abari kuganira higanjemo abagabo bane ndetse n'umugore umwe barishimye cyane ubibonye ku maso yabo.

Aba ni abagabo babiri basa nk'abakuze bafite ibyishimo kumaso yabo bahagaze ahantu hamwe guhererekanya ikintu kimeze nk'urufunguzo inyuma kandi hari ikinyabiziga cy'imodoka gihagaze.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bahagaze ahantu hamwe, higanjemo abagabo gusa bafite ikintu kimeze nk'urufunguzo mu biganza byabo, inyuma kandi hari ibinyabiziga bibiri bitwara imizigo by'imodoka.

Uyu ni muhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto n'igare. Hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahagenda bose.

Aba ni abantu bagera kuri babiri bahagaze ahantu hamwe, barakeye cyane bafite ikintu kimeze nk'urufunguzo mu ntoki zabo, inyuma kandi hari imodoka nziza itwara imizigo y'umweru.

Aba ni abantu bagera muri batandatu bahagaze ahantu hamwe, higanjemo abagabo gusa. Bafite utu amvirope mu ntoki tw'umutuku n'umweru, hirya yabo hari imodoka nziza cyane mu buryo bugaragara.

Aba ni abagabo babiri bahagaze ahantu hamwe urabona ko bishimye bari guseka, guhererekanya ikintu kimeze nk'urufunguzo mu ntoki zabo, inyuma hari ikinyabiziga gitwara imizigo cy'umweru kihahagaze.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bakuze ndetse n'umwana umwe barishimye cyane bari guseka bafite ikintu kimeze nk'urufunguzo mu biganza byabo, inyuma hari imodoka nziza y'umukara.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe barahagaze, barishimye, bari guseka cyane, bafite ikintu kimeze nk'urufunguzo mu biganza byabo, inyuma kandi hari imodoka zitandukanye mu mabara umweru n'umuhondo.

Aya ni ama modoka menshi yifashishwa mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange yose asize amabara y'umweru uko ari ane, inyuma yayo ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bari aho ngaho bose.

Aba ni abantu babiri ubona bari ahantu hamwe barishimye cyane kandi bari guseka bahagaze bari guhererekanya ikintu kimeze nk'urufunguzo mu maboko yabo inyuma hari ikinyabiziga kinini kandi cyiza gisize amabara y'umweru.

Iyi ni imodoka nziza itwara abantu igizwe n'amabara y'icyatsi, amatara y'umweru, ibirahure bibonerana bisa nk'aho igurishwa inyuma yayo hari igiti kinini gitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze ahagaze ahantu hamwe afite ikintu kimeze nk'urufunguzo mu biganza bye, inyuma kandi hari imodoka nini itwara imizigo y'umweru ibonerana ibirahure.

Aba ni abagabo babiri ubona bari ahantu hamwe barishimye cyane barahagaze bari guhererekanya ikintu kimeze nk'urufunguzo, mu maboko yabo inyuma y'ikinyabiziga cyikorera imizigo cy'umweru.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe ni abagabo bahagaze bishimye bari guseka bahererekanya ikintu kimeze nk'urufunguzo mu biganza byabo, hirya gato hari imodoka ihahagaze nziza cyane y'umukara.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga aho rugufasha kohereza, kwakira, kwishyura amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse akakugeraho bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi aho rugufasha kwishyura, hakohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi aho rugufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye aturutse mu mahanga bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho rugufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga, yaba aturutse mu mahanga, mu buryo bworoshye kandi bwihuse, bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho rugufasha kwishyura, kwakira amafaranga aturutse mu mahanga mu buryo bworoshye kandi bwihuse, bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru n'urubuga rwa MTN, rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga aho rugufasha kohereza kwakira kwishyura amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho rugufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye, aturutse mu mahanga, akakugeraho bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, rugufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kuri telefone yawe bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho rugufasha kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rwa emutiyene rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi aho rugufasha kwishyura kohereza kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho rugufasha kohereza kwakira kwishyura amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi rugufasha kohereza, kwakira, kwishyura amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye aho ariho hose.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi aho rugufasha kohereza no kwakira amafaranga aturutse mu mahanga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga rugufasha kohereza, kwakira amafaranga aturuka mu mahanga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi mu ikoranabuhanga, aho rugufasha kohereza, kwakira amafaranga aturutse mu mahanga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi rwa MTN rugufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uherereye kandi byihuse.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho rugufasha kohereza, kwakira, kwishyura amafaranga avuye mu mahanga mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uherereye.

Aba abantu ni batatu bari ahantu hamwe, bari kuganira urabona ko bahuje urugwiro, bari mu nzu isize amabara y'icyatsi, amarido y'umutuku, higanjemo abagore gusa.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho rugufasha kwishyura, kohereza kwakira amafaranga, ku buryo bworoshye kandi bwihuse, bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi aho rugufasha kohereza, kwakira amafaranga aturutse mu mahanga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ikoranabuhanga ndetse na murandasi aho rugufasha kwishyura, kohereza ) kwakira amafaranga aturuka mu mahanga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye .

Uru ni urubuga rukoresha ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho ushobora kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uri, kandi bwihuse.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga aho rugufasha kohereza, kwakira, kwishyura amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho ushobora kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho rugufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye, yaba aturutse mu mahanga kandi bikihuta bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi, aho rugufasha kohereza, kwishyura, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uri kandi bwihuse.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho rugufasha kohereza kwakira, kwishyura amafaranga mu buryo bworoshye, kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru n'urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho ushobora kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga aturutse mu mahanga muburyo bworoshye bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi rugufasha kohereza, kwishyura, kwakira amafaranga aturuka mu mahanga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho rugufasha kwishyura, kohereza. kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho rugufasha kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse, aturutse mu mahanga bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi rugufasha kohereza, kwishyura, kwakira amafaranga aturutse mu mahanga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandosiye, aho rugufasha kohereza, kwishyura, kwakira amafaranga, mu buryo bworoshye kandi bwihuse, kuri telefone yawe bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho rugufasha kohereza, kwakira, kwishyura amafaranga ajya mu mahanga mu buryo bworoshye kandi bwihuse, bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho rugufasha kohereza, kwakira amafaranga aturutse mu mahanga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uri.

Ubu ni ubusitani bwiza butoshye burimo indabo zigiye zitandukanye yaba iz'icyatsi iz'umuhondo ndetse n'izumutuku hari n'umutaka uriho intebe zo kwicaraho ni ahantu heza cyane.

Iyi ni inzu nini yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije, igizwe n'ibirahure byinshi by'umukara, hejuru hateye ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku baherereye aho ngaho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara aranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ndetse n'abantu benshi hirya gato hari amazu agerekeranyije ya etage y'umweru.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bishimye basa nk'abakuze bari kuganira. Higanjemo abagore ndetse n'abagabo bari mu nzu isize amabara y'umweru n'umutuku.

Uru ni urubuga rwa banki runaka, rukorera kuri murandasi, ndetse n'ikoranabuhanga. Ruramamaza ibijyanye n'inguzanyo, rugizwe n'amabara y'umweru, umutuku ndetse n'umukara.

Aha ni ahantu hari abantu benshi biganjemo abagore ndetse n'abagabo n'abana, huzuye kandi ibyo kurya bigiye bitandukanye bisa nkaho ari mu isoko harimo n'inyanya, intoryi n'insenda.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande hahagaze ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto n'imodoka ndetse n'abantu bahagenda.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bamwe barahagaze abandi baricaye bisa nkaho ari mu isoko, imbere yabo hateretse ibyo kurya bitandukanye nk'inyanya, amashu, karoti, intoryi n'ibindi.

Ibi ni ibiribwa bigiye bitandukanye biteretse ahantu hamwe bisa nk'aho ari mu isoko kubera ko hari amashaza, imineke, inyanya, imyembe, ibishyimbo n'ibufu bw'ubugari.

Iyi ni inzu nini yuzuyemo ibiribwa byinshi bigiye bitandukanye by'ubwoko bwose bisa nkaho ari mu isoko harimo nk'ibitunguru, inyanya, intoryi, karoti, amashu na dodo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bagiye batandukanye, bisa nkaho ari mu isoko. Hari n'ibindi binyabiziga nka moto ndetse n'amagare, hirya yabo ari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barakeye cyane bari guseka bisa nkaho bari kuganira bafite ibyishimo, higanjemo abakobwa ndetse n'abahungu basa nkaho bakiri batoya, hari ibyo bari guhererekanya by'imbuto.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane bisa nk'aho ari mu isoko, higanjemo abagore ndetse n'abagabo imbere yabo hateretse ibyo kurya bitandukanye nk'ibijumba, intoryi n'imiteja n'insedara.

Uyu ni umugore ubona usa nk'ukuze agasatsi ke karasokoje yambaye ikote ry'umukara ari imbere y'ibiribwa bigiye bitandukanye nk'ibishyimbo, imineke, avoka, ibinyomoro n'inanasi bisa nkaho ari aho bigurishirizwa.

Aha ni ahantu huzuye abantu benshi bisa nk'aho ari mu isoko higanjemo abagore ndetse n' nabagabo hirya gato hahagaze ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka na moto.

aha ni ahantu hari ibikoresho bigiye bitandukanye nk'ibikapu, amasakoshi ndetse n'uduseke hicaye abantu benshi higanjemo abagore n'abagabo bisa nk'aho ari mu isoko ry'aho bigurishirizwa.

Aha ni ahantu hanini cyane huzuye abantu bagiye batandukanye yaba abagore ndetse n'abagabo, hari n'imyenda myinshi ku buryo bigaragara bisa nkaho ari mu isoko ry'aho igurishirizwa.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi aho ushobora gutumizaho buri kimwe cyose wifuza kikakugeraho mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse no murandasiye, aho rugufasha kuba watumizaho buri kimwe cyose wifuza kikakugeraho mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho ushobora gutumiza buri kimwe cyose wifuza, kikakugeraho mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga aho ushobora gutumizaho buri kimwe wifuza kikakugeraho muburyo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi aho ushobora gutumizaho buri kimwe cyose wifuza icyo kurya yaba n'imbuto bikakugeraho mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho rugufasha gutumizaho buri kimwe cyose wifuza kikakugeraho mu buryo bwihuse kandi bworoshye bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho rugufasha gutumizaho buri kimwe cyose wifuza, kikakugeraho mu buryo bworoshye kandi bwihuse, bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho ushobora gutumizaho buri kimwe cyose wifuza icyo kurya kikakugeraho muburyo bworoshye kandi bwihuse.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho ushobora gutumizaho buri kimwe cyose wifuza kikakugeraho mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi aho rugufasha gutumizaho buri kimwe cyose wifuza kikakugeraho mu buryo bworoshyeye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho rugufasha guhaha bimwe mu byo wifuza muburyo bworoshye bikakugeraho bitagusabye kuva aho uherereye.

Ubu ni ubusitani bwiza kandi bukeye cyane ku buryo bugaragara, harimo indabo nyinshi zigiye zitandukanye yaba iz'icyatsi, umuhondo ndetse n'umutuku bukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyijemo kabiri igizwe n'amabara y'umweru n'ibirahure bibonerana, hasi yayo hari ubusitani bwiza bufite indabo zitandukanye iz'umutuku ndetse n'icyatsi n'ibiti bitanga umuyaga.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko etaje igerekeranyije isize amabara y'umweru impande zose ndetse n'ibirahure bibonerana hasi gato hari ubusitani bwiza butoshye burimo ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu nini kandi nziza isize amabara y'ubururu, amadirishya ni icyatsi ndetse n'amabati y'umutuku, ifite imbuga ngari ushobora gukiniramo wowe na bawe ndetse n'ubusitani bwiza.

Aba ni bantu benshi bari ahantu hamwe, bisa nk'aho ari mu isoko kubera ibikoresho mbona bihari, bari mu nzu isize amabara y'umweru, n'amatara yaka neza cyane, higanjemo abagore n'abagabo.

Aha ni ahantu huzuye abantu benshi bahagaze imbere yabo hari ibyo kurya bitandukanye bisa nkaho ari aho bigurishirizwa harimo n'inyanya karoti, ibitunguru, intoyi, imiteja n'ibindi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bamwe barahagaze, abandi baricaye, bari mu nzu isize amabara y'umweru, urabona ko ari ibintu byiza cyane, higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru n'amatara arabagirana hejuru, yiganjemo abagore ndetse n'abagabo bisa nk'aho ari mu isoko bitewe n'ibikoresho bihari.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe, bambaye ibintu bigiye bitandukanye, urabona ko bakeye cyane, higanjemo abagore bakuze, abagabo ndetse n'abana batoya.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye cyane; bamwe baricaye abandi barahagaze higanjemo abagore n'abagabo hirya yabo ari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu busitani bwiza bukikijwe n'imiti birebire, bitanga umuyaga n'amahumbezi, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bamwe barahagaze abandi baricaye.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane bahagaze ku murongo, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane higanjemo abagore ndetse n'abagabo bateruye ikintu cy'ubururu mu biganza byabo bari mu nzu isa umuhondo.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze agasatsi ke karasokoje, afite ibyishimo ari guseka yambaye umupira w'umweru afite igikoresho Kifashishwa mu kurangurura amajwi, imbere ye hateretse agacupa k'amazi.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe ku nzu isize amabara y'umweru barakeye cyane bisa nk'aho bari mu nama, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi ndetse na murandasi, higanjemo umugore n'umugabo.

Uyu ni umukobwa ubona usa nkaho akiri mutoya, ari mu byo kurya bigiye bitandukanye, bisa nkaho ari mu isoko nk'inyanya, intoryi, karoti, ibitunguru, insenda n'ibindi.

Uyu ni umugore ubona usa nk'ukuze umurebye ku maso he, afite ibyishimo bidasanzwe, yambaye ikanzu y'umukara, irimo umutuku, afite umufuka w'umuceri muganza bye.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande ubusitani bwiza, hagendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka na moto.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto, hirya gato hari abantu bahagenda higanjemo abagore n'abagabo.